Abagabo n'abagore bicaye bamwe muri bo bambaye indorerwamo, bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, bisa nkaho bari mu nama bari guhabwa ikiganiro ku bintu runaka.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe mu nzu mberabyombi, imbere bafite amacupa y'amazi ndetse n'amakaye n'amakaramu, bateze amatwi ibiganiro bari guhabwa bigaragara ko imbere hari umuntu uri kubaha ikiganiro, bateze amatwi bari kumva.

Abagore n'abagabo bicaye, bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki, bateze ikiganiro amatwi, bisa nk'aho imbere hari umuntu uri kubaganiriza ku bintu runaka, bamwe muri bo, bambaye, indorerwamo.

Sare irimo abasore n'abakobwa, harimo umukobwa wambaye udukomo, ufite ikaramu ndetse n'ikayi uri kwandika, ufite n'icupa ry'amazi imbere ku ntebe ndetse n'abandi basore bari kureba, umuntu usa nk'aho ari kubaha ikiganiro.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inamama, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse kandi ku meza yabo hariho amakaye n'amakaramu n'amacupa y'amazi, harimo abantu bambaye indorerwamo birasa nkaho bari kuganirizwa, bari gukora inama ku bintu runaka.

Abantu benshi batandukanye, urubyiruko, abagore n'abagabo, bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, bari gufata ifoto, muri bo harimo abantu bambaye indorerwamo ndetse imbere hariho n'ururabyo.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama umugabo umwe uhagaze inyuma wambaye indorerwamo. Undi mugabo yicaye imbere afite mudasobwa iriho umugozi ari gushyiramo umuriro muri telefone ndetse kandi hari n'abandi bicaye bari kumva ikiganiro.

Inzu mberabyombi irimo abantu basanzwe ndetse n'abandi bashinzwe umutekano bicaye, bateze ikiganiro cy'ubari imbere, bisa nk'aho imbere hari umuntu uri kubaha ikiganiro bamuteze amatwi.

Abagabo bambaye umuzankano n'ingofero, umwe muri bo abari imbere, bari mu ihema, afite indangururamajwi ndetse yambaye n'indorerwamo, bigaragara ko ari kwamamaza ikintu cyangwa umuntu runaka.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'impapuro n'amakaye n'amakaramu na none kandi ku meza yabo hariho amacupa y'amazi, bisa nkaho bari kureba muri mudasobwa ibintu runaka bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, imbere bafite amacupa y'amazi, amakaye n'amakaramu, n'amatelefone bashyize ku meza, ndetse na mudasobwa iri hagati yabo, bari kumva ibiganiro by'umuyobozi, ndetse imbere yabo hariho indangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama. Imbere yabo hari ameza manini ariho indangururamajwi ndetse n'utujerekani turimo amazi, bisa nkaho bateze amatwi ikiganiro runaka kiri gutangwa.

Urubyiruko ruri mu cyumba cy'inama, bamwe bambaye impuzankano z'umukara. Umwe muri bo afite indangururamajwi, abandi bamuteze amatwi ari kubaha ikiganiro runaka.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye amakoti, ku meza hariho amakayi n'amakaramu, bateze amatwi umuntu urimo kubaha ibiganiro ubari imbere.

Abagore bicaye mu nama bari kumva ibiganiro, bisa nkaho imbere yabo hari umuntu uri kubaha ikiganiro.

Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye mu cyumba cy'inama bari kuganira, bateze amatwi ibiganiro, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi, bafite n'amakaye barimo kwandika.

Icyumba kirimo urubyiruko rutandukanye ndetse n'abakuze, harimo umugore umwe uri kubaganiriza usa nkaho ari kubaha ikiganiro, harimo umusore umwe wambaye ishati y'umukara, bisa nkaho ari kubaza ikibazo.

Abantu benshi, bicaye mu nzu mberabyombi bicaye mu ntebe zifite ameza ari ibitambaro by'imihondo, bamwe muri bo bambaye amakote bisa nk'aho bakurikiye umuntu uri imbere uri kubaganiriza.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bafite amakaye n'amakaramu, bari kwandika, bamwe muri bo bambaye indorerwamo, imbere ku meza hariho amacupa y'amazi ndetse ni abantu batandukanye harimo abirabura n'abazungu, bateze amatwi ikiganiro kiri gutangwa.

cy'inama kirimo abantu batandukanye abagore n n'abagabo bafite amacupa y'amazi imbere yabo ndetse na mudasobwa hari n'undi mugabo wambaye ikoti wambaye indorerwamo bisa nkaho ari gutanga ikiganiro.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo bamwe muri bo hari mudasobwa ndetse hariho n'amacupa y'amazi, umugabo umwe muri bo yambaye isaha, undi wicaye ku ruhande bigaragara ko yasinziriye, yambaye ikoti bari gukurikira umuntu ubari imbere uri kubaha ikiganiro.

Abantu benshi batandukanye, higanjemo abakuru, abagabo, n'abagore, ndetse n'urubyiruko, bahagaze bisa nk'aho bari kumva ikiganiro cy'umuntu ubarimo hagati ari kubaha.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abagabo n'abagore, bamwe muri bo bambaye indorerwamo, bambaye n'amakote, bafite amakaye mu ntoki ndetse n'amakaramu, bisa nkaho bari guhabwa ikiganiro.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu mberabyombi, bafite indangururamajwi, bamwe muri bo ni abagabo batatu n'abagore babiri, bari imbere y'abandi bantu b'imbaga nyamwinshi, bari kuganira ku biganiro runaka.

Icyumba kirimo abantu batandukanye umugabo, umugore n'undi mugore wicaye n'undi mugabo uhagaze, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse biragaragarako bari gukora akazi.

Icyumba cy'inama kirimo abagore babiri, umwe wambaye indorerwamo afite indangururamajwi mu ntoki uri kuvuga, afite n'uducupa tw'amazi turi ku meza, ndetse n'amatelefone ku meza, ndetse kandi n'amakaye n'amakaramu ateretse ku meza, umwe usa nk'aho ari gutanga ikiganiro.

Abagabo n'abagore, bicaye bari kuganira ku bijyanye n'ihohoterwa, bafite amacupa y'amazi imbere yabo ku meza, bamwe muri bo bafite mudasobwa, batumbiriye umuntu uri kubaganiriza ndetse n'ibyo bari kubona imbere bijyanye n'ihohoterwa, bari kubiganiraho.

Abantu b'abagore n'abagabo bicaye undi umwe uhagaze uri gutanga ikiganiro, bisa nk'aho ari abayobozi b'umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, bari gutanga ikiganiro ku bantu bari imbere babateze amatwi.

Inzu mberabyombi irimo abagabo bane, ku meza yabo hariho amacupa y'amazi bamwe bambaye amakote, abandi bambaye indorerwamo bateze amatwi ikiganiro kiri gutangwa.

Abantu bicaye batandukanye, abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama bamwe bafite amacupa y'amazi ku meza imbere yabo, bumva ikiganiro bari guhabwa n'umuntu runaka.

Abantu, abagabo bicaye bambaye impuzankano z'ubururu ziriho ikirangantego cy'ibendera ryigihugu, bari guseka bafite amakaye mu ntoki bamwe muri bo, abandi bafite amaterefone mu ntoki ndetse ku ruhande hariho n'undi wambaye ikote.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo hariho indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi, bisa nkaho bari kumva ikiganiro cy'umuntu ubari imbere.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bari mu matsinda harimo abambaye udupfukamunwa, harimo abambaye indorerwamo ndetse n'amakote, harimo umugabo umwe ari gutanga ikiganiro uri imbere, ufite indangururamajwi. Bamuteze amatwi bari kumva ibiganiro ari kubaha.

Abantu benshi bateraniye ahantu muri sitade, bari gufana ikirori runaka cyangwa se umuhanzi runaka uri gukoresha ibirori muri sitade.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hariho amakaye, indangururamajwi ndetse n'amakaramu ndetse kandi hariho amacupa amwe arimo imitobe andi arimo amazi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu mberabyombi bafite mudasobwa imbere yabo, abandi bafite amakayi mu ntoki, imbere yabo kandi hariho amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi, inyuma yaho hari umugabo wambaye impuzangano afite igikoresho gikoreshwa mu gufata amashusho.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama harimo bamwe muri bo bambaye indorerwamo, abagore n'abagabo bafite ku meza amakaye n'amakaramu ndetse n'amacupa y'amazi n'amatelefone, basa nk'aho bakurikiranye ikiganiro umuntu uri imbere ari gutanga.

Abagore n'abagabo bicaye, imbere yabo hariho ibirahure ndetse n'amacupa y'amazi, bafite amakaye, ibiganiro mu itsinda bari kwitaho, imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza abaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi irimo abagabo bane bambaye amakote, umwe afite indangururamajwi ahagaze yambaye n'impeta, n'urupapuro mu ntoki ari kuvuga, abandi baricaye barimo kwandika, imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi, hejuru hari icyapa kinini cyanditseho ibintu byinshi bitandukanye.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, batumbiriye imbere, bafite amacupa y'amazi, batumbiriye umuntu uri kubagezaho ikiganiro runaka, bamuteze amatwi.

Abantu batandukanye abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko bicaye bafite mudasobwa n'amakaye n'amakaramu, bateze amatwi ikiganiro n'umugabo uhagaze wambaye umupira y'imirongo uri kureba muri telefone.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba runaka, bari kuganira umwe muri bo yambaye indorerwamo, bambaye amakote basa nk'aho bari kuganira ariko batumbiriye umuntu uri kubaganiriza imbere.

Umugabo uhagaze imbere y'agatutu, wambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'abandi bagore bicaye mu ihema bambaye impuzankano y'umuhondo, bisa nkaho ari gutanga ikiganiro, afite indangururamajwi, ari kubagezaho ikiganiro runaka.

Inzu mberabyombi irimo abantu, umwe yambaye ikoti ari imbere ku gatuti afite indangururamajwi isa nk'aho ari gutanga ikiganiro, hirya gato hari abandi umugabo n'umugore bicaye mu ntebe bateze amatwi. Bigaragara nkaho imbere hari abandi bantu nabo bateze amatwi ibyo biganiro.

Abagore n'abagabo harimo n'umuzungu bicaye bateze amatwi ikiganiro, bafite ameza ariho amacupa y'amazi ndetse umwe afite mashine, abandi bafite amakaye n'amakaramu, bateze amatwi ikiganiro, umwe muri bo yambaye indorerwamo.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama bari kuganira bafite umwe muri bo afite mudasobwa n'undi arayifite wa kabiri, abandi bafite amakayi n'amakaramu ndetse bafite n'amacupa y'amazi ateretse ku meza yabo imbere harimo n'abazungu.

Abagabo bicaye mu cyumba bambaye indorerwamo, imbere yabo ku meza hariho amacupa y'amazi ndetse n'ikindi gikombe cy'umukara gikoreshwa mu kunywa ibintu bitandukanye, umwe muri bo afite indangururamajwi, ari kubaganiriza kandi bose bambaye amasaha.

Icyumba cy'inama cyicayemo abagore n'abagabo bafite amakaramu bari kwandika, umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uri kubaha amabwiriza.

Abantu bicaye bambaye amakote, imbere ku meza hariho amacupa y'amazi ndetse bafite amakaye n'amakaramu, harimo n'abambaye indorerwamo, bisa nkaho bari guhabwa ikiganiro runaka ku bintu bitandukanye.

Abagore n'abagabo, bamwe muri bo bambaye indorerwamo, imbere yabo ku meza hariho amacupa y'amazi, bari muzu ifite amakaro y'umweru n'umukara, bisa nkaho bari kumva ibiganiro biri gutambutswa, bamwe muri bo kandi bambaye amasaha ku kuboko.

Abantu benshi bicaye biganjemo abagore n'abagabo, imbere yaho hari umugore urikuha ikiganiro ufite udutabo twinshi mu ntoki, hirya gato hari imitaka yabugenewe icuruzwamo n'abakozi ba MTN, babitsa banabikura.

Urubyiruko rwambaye impuzangano z'umuhondo ndetse n'andi mabara atandukanye bicaye muri sitade bahanze amaso ibiganiro cyangwa se ibintu bigiye kubera imbere, bamwe bari mu materefone yabo abandi barangariye mu bindi bitandukanye.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo bicaye mu ntebe z'imikara, imbere ku meza hariho amakaye n'amakaramu, ndetse n'amacupa y'amazi, n'ama telefone yabo, imbere hari umugabo n'umugore, bari kureba muri telefoni, bigaragara ko bari kwereka ababari imbere ibijyanye na RURA.

Umugabo umwe wicaye, wambaye ishati irimo utudomo, imbere ye hariho mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, kandi na none imbere ye hariho indangururamajwi, birasa nkaho ari kubazwa ibibazo runaka, ari gusubiza.

Icyumba kimwo n'abantu b'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, bivanzemo abantu bakuru n'abana bari kuri mudasobwa ndetse n'ibitabo bisa nk'aho hari ibyo bari kwiga runaka.

Igipangu kiriho abantu b'urubyiruko barangariye mu matelefone yabo bisa nk'aho bari ku mbuga nkoranyambaga bamwe muri bo bambaye ingofero.

Icyapa kigaragaza abanyamakuru babiri baganiriye ku kiganiro kigendanye n'imisoro kuri radiyo runaka, bavuga amakuru yerekeranye n'imisoro agezweho muri iyo minsi.

Isomero ririmo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, bicaye imbere ya mashini, harimo n'abandi bagore babiri, bari imbere y'akabati, bari gufata ibitabo ndetse n'undi mugabo wunamye, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cya RURA kiburira abantu uko bagira amakenga mu gihe bahamagawe n'abantu babasaba amafaranga cyangwa bababwira ko hari amafaranga yabo abayobeyeho uko wagira amakenga ukanitonda.

Abana babiri bambaye, imyenda yabugenewe ijyanwa ku ishuri impuzangano, bafite mudasobwa imbere ku meza, bari kwerekana, amazu ndetse afite n'ibitanda bitandukanye.

Mudasobwa imwe iri ku cyapa y'umweru iteretse ku cyapa cyanditseho MY RRA sisitimu mu ndimi z'amahanga yerekana uburyo bworoshye bw'uko wasora cyangwa watanga umusoro bitakugoye.

Abantu bateraniye ahantu ku nzu iriho icyapa cya banki izwi nka Ekwiti hicayemo abantu babiri bari imbere ya mudasobwa, ku ruhande hariho amazi ari mu icupa rinini, hejuru hariho serivisi z'Irembo, munsi hariho imitako inyuranye.

Urubyiruko rwicaye rurangariye muri mudasobwa, bisa nkaho hari ibintu bari kwigiraho cyangwa kureberaho, umwe muri bo arahagaze, arunamye ari kureba, abandi baricaye.

Umunara muremure cyane ufite amabara agiye atandukanye, amwe y'umutuku andi y'umweru n'andi y'umuhondo, munsi yaho hari ibiti bigiye bitandukanye by'amoko menshi.

Inzu ndende igeretse kenshi imbere yayo hari igipangu cy'amatafari, hirya y'inzu hari ibiti byinshi bitandukanye, imbere y'igipangu hariho ubusitani, hejuru hariho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa kinini, kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho irembo, na serivisi nshya z'irembo, uko wakoresha imbuga nkoranyambaga, ubona serivisi zigiye zitandukanye, uko wabigenza.

Inzu iriho urugi rurho ingufuri, hariho icyapa gishushanyijeho terefoni ya MTN ndetse na BPR banki, yerekana uburyo BPR banki ikorana na MTN, kubihuza byoroshye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka y'umukara ndetse n'igipangu kiriho amarange y'umweru n'umukara ndetse n'ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi.

Icyuma kirekire kifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi. Kiriho abantu batanu bambaye impuzangano ndetse n'ingofero zabugenewe bari kugikora bagiteranya.

Inzu igeretse kabiri, bigaragara ko ikirimo kubakwa, ndetse imbere y'aho hari ibyatsi bitandukanye n'indabo, hariho n'icyuma cyifashishwa mu gufata insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto ihetse umugenzi ndetse n'umuntu uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru ndetse n'abandi bahagaze ku kazu ka Emutiyene basa nk'aho hari ibyo bari kuganiraho.

Icyuma kirekire cyabugenewe mu gushyirwaho insinga z'amashanyarazi, hasi giteye ahantu mu ishyamba ririmo ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi byinshi bitandukanye.

Imodoka zitandukanye ziririmo ubwoko bw'imodoka ntoya, imwe y'umweru indi y'umukara ziparitse, ndetse n'indi y'umutuku iparitse hirya, iruhande rwaho hari ibiti byabugenewe mu gufata insinga cyangwa gushyirwa insinga z'amashanyarazi, iruhande rwawo hari abantu benshi batandukanye ndetse n'inzu z'ubucuruzi.

Inzu iri ruguru y'umuhanda iriho igipangu gisize irange ry'umweru, hateyeho ibiti ndetse hariho n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriho ibiti birebire ndetse n'abantu bari kugenda, iruhande rwaho hari icyuma kinini kirekire cyabugenewe mu gushyirwaho insinga z'amashanyarazi.

Igipangu kinini cy'amatafari, mbere yacyo hariho icyapa cy'uruziga, kigaragaz amategeko y'umuhanda, ndetse imbere gato hari ibiti bitandukanye, hari n'ikindi giti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa kinini cyanditseho Gatuna, bigaragara ko ari ku mupaka w'ibihugu bibiri, hirya gato hari amazu menshi, hari ibiti byinshi, hari icyuma cyabugenewe, kirekire mu gufata insinga ndetse n'andi mazu atandukanye, akorerwaho ubucuruzi.

Umusozi uriho ibyatsi byinshi n'ibiti bifite amababi menshi, hariho n'ibiti biriho insinga z'amashanyarazi n'ikirere kirimo imvura.

Umuhanda wa kaburimbo mu nkengero zawo ku ruhande hateyeho ibiti n'indabo z'amoko menshi atandukanye, hirya gato hari inyubako zifite ibipangu, bimwe by'umukara, ibindi by'umweru aha...

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari abagenzi bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, hari igiti k'inturusu kinini, hari igiti kiriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'igipangu kiriho amatafari.

Icyuma kirekeire gishinzwe kiriho abantu batanu bambaye ingofero z'imihondo n'impuzangano barimo gukora icyo cyuma bisa nk'aho ari icyuma gitanga umuriro w'amashanyarazi.

Igiti cyabugenewe mu gufata insinga z'amashanyarazi ndetse gitewe ahantu mu ishyamba, harimo ibiti byinshi bitandukanye, hirya ku rundi ruhande harimo amazu menshi yubatswe ahantu hagiye hari ibiti byinshi.

Umurima w'ubuhinzi bw'indabo, urimo indabo nyinshi zitandukanye z'amoko yose, zimwe zikiri nto n'izindi zikuze...

Igipangu kinini kiriho ibyuma bifasha gukwirakwiza umuriro ndetse n'ibindi biti biriho insinga z'amashanyarazi biri ahantu mu gace runaka, hari umugore umwe wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare.

Abantu biganjemo abamotari bari kuri moto zabo ndetse n'abakozi ba MTN bari mu mitaka, hirya gato hari icyapa kinini kiri ku gipangu kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho MTN ndetse n'ikindi cyapa kiri ku giti kifashishwa mu guhanika inshinga, kiriho umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Igiti cyabugenewe mu gufata insinga z'amashanyarazi, itara ryo mu muhanda, indabo ebyiri, z'amoko amwe, zenda kumera umuhondo, ndetse n'igiti, hafi y'iryo tara ryo mu muhanda.

Igipangu kinini kirimo inzu ntoya ndetse n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, iruhande rwayo hariho inzu nini ebyiri n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi.

Icyuma kinini cyabugenewe mu gufata insinga z'amashanyarazi, kirekire cyane, giteye ahantu mu ishyamba ririmo ibiti byinshi by'amoko menshi ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umuyobozi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, urimo imodokadoka ndetse na na moto, ku nkengero zawo hariho amazu afite ibipangu ndetse ateyeho n'ibiti n'indabo zitandukanye, hariho n'ibiti byifashishwa mu gufata insinga z'amashanyarazi.

Inzu ndende igeretse iriho ubusitani buriho ibiti ndetse n'indabo zitandukanye z'amoko menshi ndetse n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi n'inzu ngufi itageretse.

Icyuma kirekire kinini cyabugenewe mu gushyirwaho insinga kizwi nk'ipoto, kiriho insinga nyinshi zitandukanye, gitewe ahantu mu ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Icyuma kirekire kiri mu bwoko bw'ibyuma byagenewe mu gushyigikira, cyangwa mu gushyirwaho insinga z'amashanyarazi, iruhande rwacyo hari ubuhinzi bw'indabyo buhari butandukanye, hirya y'aho gato hari ishyamba rinini.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye igare iruhande rwawo hari ibiti byinshi ndetse bifite n'indabo z'amoko menshi ruguru y'umuhanda hariho imodoka z'ubwoko bwinshi z'umukara ndetse n'andi mabara atandukanye.

Umuganga ndetse n'umurwayi bari mu cyumba ari kumusuzuma umutima, muganga wambaye itaburiye ndetse afite n'ibikoresho yashyize mu matwi akoresha asuzuma umutima, umurwayi yicaye ku ntebe, imbere ye hari mudasobwa.

Inyubako nini cyane igeretse iri hafi y'umuhanda, umuhanda urimo imodoka ndetse iruhande rw'umuhanda hateye ibiti by'inganzamarumbo ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane bugari bunini.

Inzu imbere iriho irangi ry'umuhondo, hariho agakoresho kabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, imbere ku rugi inzu irakinguye, irimo amakaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'abantu, harimo umusore uhagaze, ndetse n'undi musore ugiye kugenda, uparitsemo n'imodoka z'amoko menshi atandukanye, ndetse hirya hariho amazu y'ubucuruzi, haruguru bisa nk'aho hari ikigo runaka.

Umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo, wicaye mu kagare, bigaragara ko afite ubumuga bwo kutagenda, hirya gato hariho inyubako zitandukanye bisa nk'aho ari kwa muganga.

Ishuri rifite ubusitani imbere n'ibiti binini, iruhande rw'iryo shuri hariho igikuta kiriho, cyomekeshejeho amabuye, arimo irange ry'umweru ndetse n'umukara.

Imbangukiragutabara ziparitse ahantu hamwe ari nyinshi bigaragara ko ari kwa muganga, imbere y'aho hagati harimo ibigaragara nk'aho harimo izigiye kugenda ndetse hari n'abantu bazihagaze iruhande.

Inyubako irimo abagore n'abagabo, bamwe bicaye abandi bahagaze batonze umurongo, ku ruhande rundi hariho umugabo ufite telefone mu ntoki, abo bantu bisa nkaho barindiriye serivise runaka.

Inzu nini igaragara nk i Bitaro iparitseho imodoka izwi nka ambiranse. Itwara abarwayi barembye kwa muganga kugira ngo bagezweyo vuba ndetse iyo nzu ifite ubusitani imbere ifite n'ikigega.

Icyumba kinini kirimo abagororwa bane bicaye bambaye impunzangano, bari imbere y'umugabo wambaye impuzangano y'umukara, bigaragara ko ari kubaha ikiganiro runaka.

Icyumba kirimo abagabo batatu bahagaze imbere n'umugore umwe, imbere yabo harimo umugabo wicaye ari kubaburanisha, bisa nk'aho ari kubaburanisha, n'undi mugabo wicaye iruhande rwabo n'abandi bari inyuma bicaye.

Abantu bicaye, bagiye batandukanye bicaye ku ntebe, barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hari umukobwa usa nk'aho ari kubaha ikiganiro ndetse n'undi muntu w'umugabo wicaye usa nk'aho ari kubaha serivisi zitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakote, umwe ari guhana impano runaka, inyuma yaho hari ibyuma bya muzika bisa nkaho bari mu rusengero.

Icyumba kinini k'inama, giteraniyemo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, bamwe muri bo bambaye indorerwamo, imbere hari umugabo wicaye ufite ikaye n'ikaramu ndetse n'akameza kariho icupa ry'amazi, hari n'undi mugabo uri muri abo bari imbere asa nkaho ari kubaza ikibazo runaka, umugabo ubari imbere wicaye imbere.

Abagore n'abagabo bicaye, bambaye impuzankankano, bambaye ingofero z'imikara ziriho n'imirongo y'imihondo, bategereje bisa nkaho bakoze ikirori cyo gusoza kwiga, bari kumva ijambo ry'umukuru riri kubagezwaho.

Abagabo babiri n'abagore babiri bahagaze, abagabo bambaye imyenda cyangwa impuzankano yabugenewe y'imikara, bafite ibitabo mu ntoki, ameza amwe abari imbere ariho imashini ndetse n'amacupa y'amazi n'ibitabo, aba bagore bambaye impuzankano, bambaye n'amasaha ku kuboko.

Icyumba kinini kirimo intebe z'umukara, zicawemo n'abagororwa bambaye udupfukamunwa, bafite ibitabo bamwe muri bo, basa nk'aho barindiriye umuntu cyangwa bari kumva umuntu ubari imbere uri kubaha amabwiriza.

Abagabo batatu, babiri bambaye impuzankano z'umukara, ndetse umwe yambaye indorerwamo, afite mudasobwa imbere ye, bisa nk'aho hari ibyo ari kurebamo, undi ari hagati yambaye imyenda y'abagororwa, nawe ari kureba mudasobwa, imbere ye hariho indangururamajwi, undi nawe afite ikaye, bisa nk'aho hari ibyo agiye kwandikamo.

Inzu y'urukiko irimo abagabo babiri bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa z'umukara, bigaragara ko ari abacamanza ndetse n'undi mugabo umwe wambaye imyambaro y'ingororwa, bahagaze imbere, umugabo umwe ari guha undi umuti wo koga mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu nzu mbonerabyombi bakoze ikirori gisoza amashuri bamwe bambaye amakanzu y'imituku, abandi bambaye amakanzu y'imikara bategereje ijambo ry'umuyobozi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'ubwoko butandukanye, zizwiho nka Sitera ndetse n'umupolisi uri kwemerera imodoka zimwe gutambuka ndetse n'izindi guhagarara ndetse n'umumotari uhetse mugenzi.

Abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'imikara, bahagaze bafite udutabo mu ntoki, abandi batadafite harimo umugabo wambaye impeta ndetse n'isaha ku kiganza, bisa nkaho bari guhabwa amategeko n'amabwiriza y'umuntu ubari imbere.

Umuhanda uriho igiti kinini ndetse n'igipangu, imbere y'igipangu hariho akazu kabugenewe mu kwicarwaho n'abagenzi bagiye gutega imodoka, imbere y'intebe hariho abashinzwe kugenda mu mihanda, bacunga umutekano.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana iy'umweru n'iy'umukara ndetse n'umuyobozi ushinzwe umutekano w'umuhanda, imbere y'imodoka imwe hariho umuvuduko ntarengwa mirongo itandatu niwo imodoka itagomba kurenza.

Icyumba kirimo umugabo ndetse wambaye agapfukamunwa n'impunzangano n'undi hirya ku ruhande rundi afite igikoresho cyabugenewe mu kuzimya umuriro, ari imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru na kake, ari kubasobanurira ibijyanye n'uko iki gikoresho gikoreshwa.

Abashinzwe umutekano mu muhanda bahagaze ahantu hamwe, bafite ibikoresho bakoresha, hirya y'aho haparitse imodoka ndetse inyuma hari ibiti bitandukanye n'indabo, bisa nkaho bari guhabwa amabwiriza batumbiriye umuntu uri kubaha amabwiriza ari imbere.

Umuhanda urimo imodoka nini n'intoya, urimo n'abantu babiri bambaye impuzankano bisa nk'aho bari kuzimya inkongi y'umuriro yateye aho hantu.

Umugabo wicaye wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ingofero y'umukara, wambaye umwenda w'akazi, afite igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, hirya ku ruhande haparitse imodoka imwe y'umweru, indi y'umuhondo, iruhande rwaho hari ishyamba rinini.

Inyubako igaragara, inyubako icururizwamo ibintu bigendanye n'ibyo kurya bitetse n'ibyo kunywa, imbere yaho hari ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, agakoresho kamwe k'umweru n'akandi k'umutuku.

Abashinzwe umutekano benshi, bari ahantu imbere y'imodoka ebyiri nini, zitwara ibintu ndetse n'imbere yabo hari ushinzwe umutekano bisa nk'aho abakuriye, yambaye indorerwamo ndetse asa nk'aho ari kubaha amabwiriza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu batandukanye bari kwambuka ahabugenewe kwambukirwa n'abanyamaguru, hari umupolisi cyangwa umuntu ushinzwe umutekano uhagaze, ari kureba uko abantu bambuka ndetse n'ibinyabiziga.

Abagabo n'abagore barimo Umukuru w'Igihugu ndetse n'umufasha we bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hariho amacupa y'amazi ndetse n'andi macupa y'umukara, bisa nkaho bari kuganirizwa n'umuntu runaka ubari imbere uri kubasetsa.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, harimo umukuru w'Igihugu ndetse n'umugore we, birasa nkaho bari kumva ikiganiro runaka, umukuru w'Igihugu afite indangururamajwi ari kwakira ibibazo bari kumubaza.

Abantu benshi bari mu gikorwa cyo kwamamaza, ndetse n'umukuru w'igihugu uri hamwe n'abantu bamurinda, iruhande rwe hari umugabo wambaye ingofero y'umukara, yanditseho icyo twakwita nka CTU.

Abantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo, bamwe muri bo bambaye indorerwamo, bateze amatwi ikiganiro cy'umuntu uri imbere uri kubaha ikiganiro, imbere ku meza hariho amacupa y'amazi ndetse n'uturangururamajwi.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakoti, ndetse n'umugore umwe wicaye mu ntebe, abagabo babiri bari gufata ifoto, umwe yambaye indorerwamo ari kumuhereza igitabo mu ntoki, umugore wicaye yicaye inyuma y'ameza ariho icupa ry'amazi.

Abagabo n'abagore bahagaze bari kwifotoza, barimo n'umukuru w'igihugu, imbere yaho, inyuma yaho hari imitako itandukanye, iyo bita imigongo ndetse n'amabendera abiri.

Abantu batandukanye bicaye mu nzu mberabyombi, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amacupa y'amazi, bisa nkaho bari kumva ikiganiro runaka.

Abayobozi bicaye mu ntebe, bafite indangururamajwi imbere ku meza, barangamijwe imbere n'umuntu bisa nkaho uri kubaha ikiganiro bose batumbiriye.

Ifoto y'umugabo witwa Mpayimana Philippe yakozwe bibiri na makumyabiri na kane ubwo hamamazwaga abakuru ni umukuru w'igihugu, ubwo n'umukuru w'igihugu yatorwaga icyo gihe.

Abagabo ndetse n'abama bahagaze imbere yaho hari ameza ariho igitambara cy'umweru inyuma hariho abandi bagabo babiri bafashe igitambara basa nkaho bari kwamamaza ibintu runaka.

Urubyiruko rwinshi ruteraniye ahantu hamwe, birasa nkaho bafite ibyapa mu ntoki bari kwamamaza ibintu runaka, imbere hariho abana ndetse n'umusore uri kubahobera wambaye impuzankano y'umweru irimo n'ibara risa n'icyapa bari kwamamaza.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye bafite mudasobwa imbere yabo, bicaye ku meza hariho icupa ry'amazi bisa nkaho bari kumva ikiganiro cy'umuntu uri kubaha ikiganiro ubari imbere ndetse kuri ayo meza hariho n'indangururamajwi.

Ifoto nini ishushanyijeho umukuru w'igihugu, bigaragara ko ari kwiyamamaza ndetse hari n'abantu benshi benshi bafite utwapa mu ntoki, twanditseho FPR bari kwamamaza FPR.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari kujya mu matora abandi bavayo aho bari kunyura hari icyapa kirekire cyanditseho Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora twitabirevamatora duhitamo neza iruhande rwaho hari ingemwe ebyiri ziriho imitako itandukanye ndetse n'umusore bisa nk'aho ari kuyobora abantu bajya mu matora.

Abagore n'abagabo batandukanye, bambaye amakote ndetse n'abandi bambaye imishanana, abagore bafashe amabendera mu ntoki bigaragara ko bari kwimikwa ku buyobozi runaka.

Abantu bahagaze bafashe ibendera bari kurahira, imbere hari umukuru w'igihugu wicaye mu ntebe z'imbere, urundi ruhande hari abandi bagabo bicaye imbere ya mudasobwa zabo, imbere yabo hariho n'amacupa y'amazi.

Icyumba kirimo amakaro y'umweru n'umukara ndetse n'amarangi y'umweru n'umukara, inyuma hariho imitako, hashushanyijeho abantu bari kubyina, kirimo umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bantu, abagore n'abagabo bari kwifotoza.

Abantu bicaye abagore, n'abagabo mu nzu mberabyombi, bicaye mu ntebe z'imikara, imbere hari ameza ariho insakazamajwi, ndetse na mashini, ndetse n'amacupa y'amazi, inyuma yaho hariho amadarapo, bateze amatwi ikiganiro.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umumotari wambaye kasike y'umuhondo, uyitwaye hirya ku ruhande hariho inzu ziriho ibiti bitandukanye, byitwa nk'iminyinya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imwe iri kujya mu cyerekezo kimwe, mu nkengero z'umuhanda hariho ibiti by'amoko menshi atandukanye bisa nk'aho ari ishyamba ndetse n'ibindi biti biri insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto, hirya ku ruhande hari igipangu gisize irangi ry'umweru ndetse muri uwo muhanda hariho amatara maremare, yabugenewe akoreshwa mu muhanda, ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye n'ibindi biti bikoreshwa mu gufata insinga z'amashanyarazi.

Imodoka izwiho nka Ritiko, imodoka nini, yerekana uburyo bwo kwishyura cyangwa gutega ukoresheje ikarita, uko bikorwa n'aho bikorerwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, izo bita Sitera n'indi zitwara imizigo, itwara imizigo isa umuhondo itwara abantu isa umweru, iruhande rwaho hari ikiraro, hijya ku ruhande hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo, ifite akanyabiziga inyuma ndetse n'undi munyonzi utwara abagenzi ku igare, n'undi muntu uriho atambuka, hirya yaho hari inzu iriho irangi ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo uparitseho imodoka ebyiri, ziri mu bwoko bw'imodoka nto z'umweru, imbere gato hari abantu batatu bahagaze bareba, ku rupangu, hirya y'aho hari ibiti byinshi.

Abagabo babiri bari mu cyerekezo kimwe, bari kugenda, inyuma yaho hari imodoka izwi nka ritiko, iruhande rwabo hari ikiraro, mu rundi ruhande, rwo hirya hariho abantu batatu umukobwa umwe n'abasore babiri ndetse bari kugenda, ku ruhande hateyeho ibiti byinshi.

Mu muhanda urimo imodoka zitwara imizigo, urimo n'amapikipiki, atwaye abantu, hari inzu nini, iruhande rwaho haparitse imodoka zitwara imizigo, umuhanda urimo n'amatara, n'izindi modoka ziparitse haruguru, hirya y'aho hari umusozi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka zitwara imizigo, ndetse na moto zabugenewe mu gutwara imizigo, ndetse n'umumotari imbere ye hari umukozi wambaye impuzankano, bisa nk'aho arimo kubasoresha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, harimo imodoka nini zizwiho kwitwa igikamyo, itwara imizigo ndetse n'imbere harimo abamotari batwaye abagenzi, ku mpande ku nkengero z'umuhanda, hariho ibiti byinshi n'amatara ndetse n'umuhanda hari ahantu wasenyutse uri gusanwa.

Imodoka nini zitwara abagenzi ziparitse mu muhanda w'igitaka, umuhanda hejuru yawo hirya hari icyumba cyabugenewe, gikoreshwa mu bijyanye n'umuriro ndetse hari n'ishyamba rinini.

Umuhanda urimo imodoka nini izwiho nka Ritco, inyuma y'iyo modoka hariho akazu gashushanyijeho ibikoresho bigendanye n'isuku, bigaragara ko bari kubyamamaza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'ubwoko bunini y'umweru ndetse na moto nyinshi inyuma y'iyo modoka, ku ruhande rwaho umuhanda ku nkengero hariho ibiti by'amoko menshi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto nyinshi, hariho n'inzu nini y'ubucuruzi iriho n'aho bacururiza imiti, izo moto zitwaye abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru n'ishati y'umukara bari kugenda iruhande rw'umuhanda, hariho ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda w'igitaka uparitse moto y'umutuku, abantu bari kugenda mu muhanda ubona ko bari kujya gushaka serivise zitandukanye, hirya y'iyo moto iparitse hari n'izindi moto nyinshi zihaparitse.

Imodoka ebyiri ziparitse, zizwiho kwitwa ritiko, ziparitse imwe y'umuhondo n'umweru, zirimo abagenzi babiri bahagaze, hagati y'izo modoka.

Umuhanda wa kaburimbo munini, urimo imodoka z'ubwoko bwose, izizwi nka Sitera ndetse hagati harimo imodoka icanye amatara maremare n'indi yo ku ruhande y'umukara, harimo umuhanda urimo n'amamoto menshi ndetse n'abantu bari kugenda b'urujya n'uruza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi zitandukanye, urujya n'uruza rw'abantu ndetse na moto, ku ruhande haparitse moto ifite plaque RC umunani rimwe rimwe gatatu.

Umuhanda wa kaburimbo, wegereye ikiraro, uparitseho imodoka y'umweru, urimo abantu b'abagore n'abagabo, bari kugenda mu cyerekezo kimwe, ndetse hari n'inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi zitandukanye ndetse na moto zitwaye abagenzi, harimo imodoka nini zitwara imizigo ndetse hirya hari ishyamba rinini cyane hari n'ibyuma byabugenewe mu gufata insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ku ruhande umuntu wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'imodoka izwi nka ritiko, iruhande rw'umuhanda hirya hariho ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'ahantu hari ikiraro, urimo imodoka nini izwiho nka Ritiko, imbere yaho hari abamotari umwe atwaye umugenzi, undi aritwaye, hirya gato y'umuhanda hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Imodoka ziri mu bwoko bw'imodoka nto zitwara abagenzi ndetse n'izindi modoka nini na zo zipatse ku rundi ruhande zizwi nka ritico ziparitse ahantu habugenewe guparikwa imwe y'umweru ifite purake ra a fa kane gatandatu zeru sa.

Umuhanda wa kaburimbo uparitseho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, hirya gato hari abamotari ndetse n'abagenzi b'rujya n'uruza, ku ruhande rw'umuhanda haparitseho igare ry'umunyonzi, imbere gato hariho imodoka bigaragara ko bari gukuramo imifuka.

Umuhanda wa kaburimbo munini urimo imodokadoka izwi nka ritiko, inyuma y'aho y'iyo modoka hari imodoka y'umutuku icanye amatara maremare ndetse n'indi y'umweru, imbere kandi hariho moto zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo, moto itwaye umugenzi, ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti by'amoko menshi bitandukanye, ndetse n'indabo z'ubwoko bwose.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu b'urujya n'uruza, urimo imodoka ebyiri, imwe ifite akantu k'inyuma gatwara imizigo, iri mu modoka ntoya ndetse n'iy'inyuma, irimo umushoferi y'umweru.

Umuhanda munini urimo abantu b'urujya n'uruza ndetse urimo n'abasore twita nk'abakarani, bafite akanyabiziga bakoresha mu gutwara imizigo cyangwa imitwaro itandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo, imodoka nini y'umutuku, hirya ku ruhande hari ishyamba ririho ibiti birebire ndetse imbere y'imodoka hariho umugabo utwaye igare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umutuku ndende, itwara imizigo, imbere y'aho hari imodoka nini ya polisi, ijya ku ruhande gato hari igare ririho umuntu umwe rya siporo, imbere hariho abagenzi bari mu muhanda rw'agati.

Ama moto y'ubwoko butandukanye azwiho nka moto zifite utunyabiziga inyuma byifashishwa mu gutwara ibintu ndetse aho ziparitse, hari umusore wambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zizwiho nk'inkweto zo kogeramo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ihetse umuntu ndetse iruhande rwayo rw'umuhanda hari indabo z'umuhondo n'ibiti bitandukanye by'amoko menshi.

Umunyonzi ufite umufuka urimo ibintu byinshi ndetse n'akuma kari hejuru k'umukara imbere ye hari umushoferi utwaye imodoka zo mu bwoko bw'imodoka nto icanye amatara maremare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu uri kwiruka, wambaye impuzankano, harimo imodoka nini izwiho nka Ritiko ndetse n'indi y'umweru na yo nini itwara abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari ufite kasike z'umutuku, wambaye inkweto z'umweru, uri kugenda mu cyerekezo kimwe, ugiye kugera aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande rw'iburyo hateye ibiti byinshi by'amoko menshi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri, imbere hariho moto ebyiri ziriho abamotari, imwe itwaye umugenzi ndetse inyuma gato hari imodoka y'umutuku iri mu bwoko bw'imodoka nto, hirya y'aho mu nkengero hariho ibiti n'indabo z'amoko menshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ndetse n'abamotari babiri, umwe wambaye kasike y'umuhondo, undi wambaye kasike y'umukara utwaye ikaziye ndetse n'umupira w'umutuku ndetse n'undi mu mukarani uri imbere utwaye imizigo n'undi mugenzi uri kuruhande, uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, umwe urimo imodoka nini itwara imizigo, irimo umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umutuku, imbere ye hariho umumotari utwaye umugenzi, ku ruhande hariho ibiti by'amoko atandukanye, hirya ku ruhande gato hariho imodoka izwi nka litiko nini itwara abagenzi.

Umuhanda uriho inyubako ebyiri zigeretse kenshi, hateye indabo, ku ruhande hari abantu b'abagabo babiri bicaye ndetse hari n'akazu k'ubucuruzi, kariho amakanzu y'abagore n'indi myenda y'ubwoko bwinshi butandukanye.

Umuhanda w'igitaka urimo akazu gakoreshejwe ibyuma, karimo intebe zicawemo n'abantu abagabo n'abagore ndetse n'abandi bari hanze bari kugenda, bisa nk'aho hari serivisi runaka barindiriye.

Umuhanda munini uriho akazu kubakijijwe ibyuma, hicayemo abantu, n'undi mugabo uhagaze ku nkingi nkuri kuri terefoni, wambaye impuzankano, ndetse kandi hirya y'umuhanda hari inzu zigeretse ziriho, ubusitani butandukanye, burimo indabyo nziza zitandukanye.

Abantu b'urujya n'uruza benshi batandukanye bari mu gace kamwe, bamwe bagenda abandi bagaruka, ahantu hari inzu z'ubucuruzi ndetse n'inzu zigiye zigeretse.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ku nkengeraro zawo, hateyeho ubwoko bwinshi bw'indabyo, hirya gato hari igipangu hejuru kimanitseho ibyuma binini, by'amoko atandukanye, iyo nzu iriho irange ry'umweru.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bisa nkaho bagiye gutangira gukina, bamwe bambaye imipira y'imituku, abandi imyeru, abandi imihondo.

Umuhanda wa kaburimbo mu nkengero zawo harimo abantu benshi b'amoko atandukanye, abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, hateyeho indabyo z'umuhondo, ku ruhande hariho icyapa cyanditseho Muhanga cyerekana ko ari i Muhanga.

Umuhanda wa kaburimbo uruho amatara n'imodoka zinyuranyuranamo ziriho icyapa cyo mu mategeko y'umuhanda cyabugenewe cyerekana ubuhaname bw'ahantu, uko ufite akantu gacuramye,

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hariho icyapa cya mpandeshatu, kirimo inyuguti ya ta, iruhande rwaho hariho indabyo ndetse n'inzu igeretse, iriho igipangu gifite irangi ry'umweru.

Icyapa cy'umweru cya mpande enye, cyerekana umuvuduko ntarengwa, kilometero runaka, iijana na mirongo inani n'icyenda, munsi yaho hari ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye, ndetse n'amazu ku ruhande rwaho atandukanye.

Icyapa kiri mu mategeko y'umuhanda by'umwihariko cyagenewe ahantu gishyirwa ahantu hari imihanda banyuramo babanje kuzenguruka, ihuriro ry'imihanda myinshi itandukanye.

Icyapa cyabugenewe mu mategeko y'umuhanda gifite mpande eshatu ndetse n'ubuso hagati bw'umweru kirimo imodoka, bisa nk'aho cyerekana ko aho hantu hari ubunyererere muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amatara, urimo imodoka zitandukanye, urimo abantu, ku nkengero z'umuhanda hariho igipangu cyubakishijwe amatafari ndetse kuri icyo gipangu harimo n'ibiti by'amoko menshi, imbere y'aho hariho icyapa kiri mu mategeko y'umuhanda, kiri mu musaraba.

Icyapa cy'amategeko y'umuhanda, cyerekana ishusho ya P, munsi yaho hariho imodoka iri mu ishusho y'umweru ndetse n'ubuso bw'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, urimo na moto zitwaye abagenzi ebyiri. imwe iri ku ruhande rw'ububuryo ahaparikwa imodoka, hari icyapa giparikwaho imodoka indi iri mu muhanda rwa gati iri kugenda.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse hagati hari umweru, kitagomba kurenza umuvuduko kirometero mirongo itandatu mu isaha ndetse munsi yacyo hariho kamera, ifotora abantu barengeje uwo muvuduko.

Umuhanda wa kaburimbo, imbere hejuru hari inzu ndetse hateyeho n'ibiti, hari urukuta rw'amabuye, hari icyapa cyerekana abanyamaguru aho bambukira.

Icyapa kirekire cyerekana igororero rya Nyamagabe, iruhande rwacyo hariho inyubako ndetse no ku rundi ruhande hariho ibiti bigiye bitandukanye.

Icyapa gikoreshwa mu bijyanye n'amategeko y'umuhanda, hariho ibara ry'icyatsi, ry'umuhondo n'iyindi ry'umutuku, cyanditseho mirongo ine na kane, byifashishwa mu kwerekana ko imodoka zigiye gutambuka, cyangwa se ari abantu batahiwe gutambuka.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, imwe iri kujya mu cyerekezo kimwe indi iri kujya mu kindi cyerekezo, ziri kubisikana, iruhande rwaho hari inyubako zifite amarange y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazeho abagabo babiri bari kureba inzu zigeretse, umugabo umwe yambaye ingofero y'umweru, undi yambaye ipantaro y'umweru, undi yambaye ikoti ry'umukara.

Umuhanda munini urimo moto idahetse umugenzi ndetse ku ruhande gato hariho inyubako nini igeretse, imbere hakorerwa ubucuruzi, iteyeho ibiti ku mpande zombi.

Inzu nini igeretse, iriho amarangi y'umweru, ndetse n'amatafari, ku mpande hasi hariho amakaro, iriho irangi ry'umweru ndetse n'ikigina, imbere yaho hateye ibiti binini ndetse n'indabyo z'ubwoko bwinshi.

Imihanda ibiri igerekeranye, umuhanda wo hasi uteyeho ibiti bitandukanye by'imigano ndetse n'ibindi by'andi moko, hariho umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umwenda w'akazi, ufite ibigega bibiri kimwe cy'umukaran'ikindi cy'icyatsi.

Inzu ziri mu bwoko bw'inzu nini ziriho igipangu, imbere y'igipangu hariho indabo z'ubwoko butandukanye, imbere gato hariho igiti cyagenewe gutwara cyangwa kumanikwaho insinga z'umuriro, cyanditseho Remera.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka y'umukara, uri kujya mu cyerekezo kimwe, hari uruhande y'uwo muhanda, hari igipangu, bigaragara nk'aho kiriho amatafari. Hirya y'aho hari inzu z'amoko menshi atandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzu nini igeretse, imbere yaho hariho imitaka ya MTN ndetse kandi haparitseho imodoka nyinshi z'amoko atandukanye, mu mihanda kandi harimo imodoka, ku rundi ruhande hariho icyapa kitemera imodoka guparika no kunyura aho hantu.

Inzu igeretse yerekana umurenge wa Kimironko, imbere yaho hateyeho ubusitani, ndetse hariho n'ibiti bike bitandukanye by'amoko atandukanye, bifite irangi ry'ikigina ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu ndetse n'imodoka zitwara imizigo, hirya ku ruhande hariho ibiti bitandukanye by'amoko atandukanye, hariho n'inyubako nini ndende igeretse.

Inzu ifite amabati y'umutuku, ifite jaride, ifite ibiti biyegereye ndetse n'andi mazu menshi ari hafi y'iyo nzu nayo agiye afite ibiti byinshi bitandukanye, iruhande rwaho hari igipangu kiriho utwuma twinshi dutandukanye.

Ishyamba rinini ririmo ibiti by'amabara atandukanye, bifite amababi atandukanye, birimo n'indabo z'umuhondo ndetse n'izindi z'ubururu, izo ndabo z'umuhondo zikunda kugira amahwa menshi...

Agace karimo amazu menshi atandukanye, harimo ibiti, harimo amazu ageretse ndetse n'atageretse, amato n'amanini y'ubwoko bwinshi.

Umuhanda umwe wa kaburimbo usa nkaho uri gusenyuka, bigaragara ko bari kuwusana, n'undi ushamitseho ubona ko ugikomeye, urimo imodoka y'umukara, imbere yabo hariho icyapa kinini cy'umutuku.

Amazu menshi ari mu gace runaka, harimo ageretse n'atageretse n'andi manini agiye ateyeho ibiti ndetse n'indabo z'amoko atandukanye.

Inzu nini cyane ndende yanditseho zigama hejuru, ifite amarangi y'umweru ndetse n'ibirahure byiza, imbere yaho hari ibiti bihateye ndetse ku ruhande hariho akazu kubakishijwe ibyatsi.

Inzu nini igeretse hasi hariho imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, izindi ziparitse iruhande rw'iyo nzu, hari umuryango umwe wanditseho ikirango cya ekwiti izwi nka banki ya ekwiti, hasi hariho abantu b'urujya n'uruza ndetse n'abamotari bahaparitse benshi.

Inzu nini igeretse iriho amabara y'umweru, ndetse n'andi atandukanye, iruhande rwayo hari jaride nziza cyane nini, ifite ibirahure bibonerana, ndetse n'itara, ku gipangu cyayo hanze kiriho, ibara ry'umukara.

Agace karimo inzu nyinshi, zimwe zigeretse izindi zitageretse ndetse n'ibiti by'amoko menshi atandukanye, harimo inzu ziteye amarangi y'imihondo, izindi ziteye amarange y'imyeru ndetse n'andi atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abanyamaguru ndetse n'imodoka z'umweru n'umumotari uhetse ubusa ndetse n'umugabo ufite igikapu cy'umukara mu mugongo, wambaye isaha y'umukara n'ishati yazinze amaboko.

Inzu nyinshi, ziri mu gace runaka, zimwe muri zo zirageretse, izindi ni inzu nini zisa amabati y'umutuku, hafi yaho hahinze ibihingwa runaka, ndetse harimo n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo munini bigaragara nkaho ari mu Giporoso, hari icyapa kinini cyanditseho Giporoso, uwo muhanda urimo imodoka z'ubwoko bwinshi, inini ndetse n'intoya nini zizwiho nka ritiko ndetse n'abamotari bahetse abagenzi, hirya gato hari ahantu hari ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo wasenyutse bari gusana, hamwe basanye haracyatose, ahandi ntiharakomera, ku ruhande mu nkengero hateye ibiti bigiye bitandukanye ndetse hariho n'amatara yabugenewe acanwa mu mihanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, zirimo kujya mu cyerekezo kimwe ntoya, umuntu uri ku kagare ka siporo, ku nkengero z'umuhanda hateyeho ibiti, hariho n'ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti biriho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iparitse ku ruhande, urimo umuntu uri hagati mu muhanda ahagaze, n'undi uri kuri moto uri kugenda, iruhande rwaho hari icyapa cyerekana amahuriro y'imihanda ndetse n'ibiti biteye ku ruhande mu nkengero z'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo munini urimo abagenzi bari kwambuka aho abagenzi bambukira, ufite amatara ari kwaka ibara twakita ko ari icunga, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi bitandukanye.

Imihanda ibiri igerekeranye uwo hasi n'uwo hejuru, ku mpande zayo hariho ibiti byinshi binini, hari undi musore bisa nkaho akiri umunyeshuri yambaye impuzankano n'inkweto z'umweru, yambaye n'isaha y'umweru, ari ku kagare ka siporo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, ziri mu bwoko bw'imodoka nto, urimo na moto nyinshi zihetse abagenzi ndetse n'abantu hafi y'uwo muhanda hateyeho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto bitandukanye, urimo imodoka twakwita nka ritiko ndetse n'abantu b'urujya n'uruza, bari kugenda bagaruka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umutuku iri mu bwoko bw'imodoka nto, hirya y'umuhanda hari umumotari wambaye kasie y'umutuku, na none hirya hari inzu, imbere y'iyo nzu hariho abantu benshi batandukanye, harimo n'icyapa cy'irembo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara n'indi modoka y'umweru, yanditsweho Toyota ndetse na moto iriho umumotari idafite umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uba urimo umuntu uri kwambuka aho abanyamaguru bambukira, umumotari amuhagaze imbere arindiriye ko yambuka, harimo n'izindi modoka zitandukanye, zimwe zitwara imizigo ndetse n'izindi zitwara abantu, hirya ku nkengero hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti mu nkengero zawo, mugari w'icyerekezo kimwe, bigaragara ko hirya y'umuhanda hari inyubako zitandukanye z'ubwoko bwinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, inini n'intoya inini zitwara imizigo n'into zitwara abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hariho amatara ndetse n'ibiti bibiri bitandukanye by'ubwoko bwinshi, hariho n'ibyapa bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka, amatara n'umugenzi uri kwambuka kaburimbo ahantu hambukirwa, ufite umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, bisa nkaho hari umuhanda mugari cyane, urimo ibinyabiziga nka moto, harimo n'abagenzi bari kwambuka umuhanda, urimo ahantu hashushanyije amabara y'umweru, n'umukara, bigaragara ko ari aho abanyamaguru bambukira, ndetse n'amatara ari gucana umutuku.

Imihanda ibiri ifatanye umwe wo hasi n'undi wo hejuru, uwo hasi bisa nkaho hirya haparitseho ibinyabiziga ndetse harimo n'umuntu uri kugenda wambaye umupira w'umweru, uwo hejuru nawo bisa nkaho nta kinyabiziga kiwurimo.

Umuhanda munini wa kaburimbo bigaragara ko ufite ibyerekezo bitatu, icyerekezo kimwe kirimo imodoka zitandukanye zo mu bwoko bw'imodoka nto, uteyeho ibiti byinshi ku muhanda, hariho naho abagenzi bambukira.

Imihanda ibiri igeretse, umuhanda wo hasi urimo imodoka ntoya nditse inyuma yaho harimo na moto nyinshi zitandukanye, ku ruhande ku nkengero y'umuhanda hariho umugenzi ndetse n'undi uri ku igare ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'umuhanda hari agatara kaka umutuku, hari n'ibindi byuma bipima umuvuduko w'imodoka, ndetse n'akayira kambukirwamo n'abagenzi n'indirongo igi icagaguye y'umuhondo.

Mu mahuriro y'umuhanda harimo moto ebyiri zitwara abagenzi, moto ya mbere itwaye umugenzi uhetse igikapu kinini, moto ya kabiri itwaye umugenzi ufite igikarito kinini, ziri kujya mu byerekezo bimwe.

Umuhanda munini wa kaburimbo bigaragara ko ari ahantu imihanda ihurira ari myinshi haparitsemo igare rya vitensi riri kugaragazwa n'amahembe y'igare, hirya gato hari abantu bari kugenda aho abanyamaguru bagendera ndetse n'imodoka, hirya yaho gato hari ibiti byinshi bitandukanye by'amoko menshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo moto zitandukanye ndetse n'akazu cyangwa se umutaka ukorerwamo kubika no kubikura, imbere y'aho hari imodoka iparitse cyangwa se ipikipiki yabugenewe mu gutwara ibintu, hirya y'aho hari igipangu kinini.

Umuhanda munini cyane, uteyeho ibiti mu nkengero zawo ndetse ufite n'amatara yabugenewe mu kumurika mu muhanda, wegeranye n'inyubako igeretse inshuro nyinshi ndende.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto nyinshi bihagaze, birindiriwe guhabwa uruhushya cyangwa uburenganzira bwo gukomeza kugenda, burimo n'abantu b'urujya n'uruza batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto nyinshi zihetse abagenzi, hirya y'umuhanda hari ahantu hari ishyamba, hino na none y'umuhanda haparitse imodoka ndetse bisa nkaho hari sitasiyo.

Umuhanda wa kaburimbo usa nkaho uri gusenyuka bari gusana wubatse hamwe haracyatoseye ntabwo haruma urimo ibinyabiziga moto eshatu, zimwe zihetse abagenzi, izindi zitwaye ubusa, ku nkengero z'umuhanda hateyeho ibiti byinshi.

Umuhanda wasenyutse bisa nk'aho wenda kuriduka, urimo imodoka y'umutuku ndetse n'amamoto menshi atandukanye, inkengero z'umuhanda hateyeho ibiti ndetse hariho n'amatara.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka imwe y'umweru iparitse, urimo abamotari babiri bisa nkaho badatwaye abagenzi ndetse n'abagenzi babiri, umwe wambaye umupira w'umweru, undi wambaye umupira w'umukara, hafi y'umuhanda hariho ibiti biteyeho bitandukanye ndetse hari n'ibiti biriho imigozi cyangwa se insinga z'amashanyarazi.